Imyenda yadodewe mu Rwanda ndetse n'ibindi bikoresho by'uburanga n'imitako bikorerwa mu Rwanda.

Abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe. Icyapa cy'Akagera ndetse n'imodoka y'umweru ya toyota.

Inote y'u Rwanda ifite agaciro k'amafaranga igihumbi. Ikirango cy'igihugu, sinyatire, ndetse na kashe. By'umukuru wa banki.

Amandazi mato mato akoze asa neza kandi ubona ko afite isuku.

Inzu y'aho bagurira amata, iruhande rw'ayo hari inka ikamwa ayo mata ndetse n'ibiti by'imbuto na avoka.

Icyapa kigaragaza aho wabona ibicuruzwa byo kunywa byakozwe n'uruganda Inyange harimo amata, amazi ndetse n'amaji.

Umubyeyi uri kunywa icyayi ndetse aganira n'abandi.

Icyuma gitunganya kandi kikabika amata neza, afite isuku kandi byezewe ku buryo bishobora kuba bitatera indwara cyangwa umwanda aho ari.

Umwana mwiza uhagaze munini ubona ukiri mu myaka yo hasi ufite terefone urimo arashaka guhamagara.

Icyemezo gitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro kigaragaza ko umuntu ntamwenda w'imisoro afitiye icyo kigo.

Icyemezo gitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro, kigaragaza y'uko umuntu atabamo umwenda w'umusoro runaka, iyo ari yo yose.

Icyumba cy'uruganiriro giteguye neza, gifite isuku n'indabo zitatse icyo cyumba ndetse n'intebe zicarwamo n'abakirimo.

Ibikoresho bisa neza bibajwe byakifashishwa nk'umutako cyangwa se kubika ibindi bikoresho bikoreshwa mu ngo.

Intebe zakozwe zambitswe imyenda ifite amabara meza icyatse ndetse n'umweru n'umuhondo n'ameza yazo bikomeye kandi bifite isuku, byifashishwa mu kwakira abashyitsi igihe bagusuye.

Uburiri bwiza busashe n'amashuka n'ibiringiti bisa neza, bifite amabara asa neza, umukara n'umweru, ndetse n'imisego yifashishwa mu kwegama.

Ahantu heza wasohokera numuntu mushaka gutuza hasa neza kandi hafite isuku harinzu nziza ifite isuku hari ubusitani nibiti byiza bizana umwuka mwiza.

Ahantu heza hafite isuku ndetse n'amacumbi wasohokera ukaruhuka, hari amazi meza akorerwamo imyidagaduro ndetse na siporo ziruhura imiruho.

Inzu nziza nini kandi isize amarange asa neza ikorerwamo ubucuruzi kandi ifite amacumbi, batanga ibyo kurya byujuje ubuziranenge ku giciro cyiza mubagane.

Ahantu heza hari ubusitani bwiza, intebe, n'ameza bisa neza bifite isuku, n'umutaka wo gukingira abahagana izuba cyangwa se imvura ndetse n'amazi akoreshwa bidagadura.

Inzu nziza ifite ubusitani n'amazi abantu bidagaduriramo mu gihe cy'imikino.

Ikigo cy'imari gishinzwe gucunga umutekano w'amafaranga y'abaturage no kuguriza abaturage no kuguriza abaturage kugira ngo babashe kuzamura imishinga ikiri mito no kwiteza imbere.

Inzu y'ubucuruzi bw'ubugeni n'ubukorikori irimo abantu baje gucuruza ndetse n'abaguzi baje kugura ibikoresho by'ubukorikori.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi iherereye hagati mu mujyi wa Kigali, ibinyabiziga na moto ndetse n'amamodoka ndetse n'abantu baje mu mirimo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ubugeni n'ubukorikori, harimo uruhurirane rw'abaje gucuruza n'abaguzi bibi bikoresho by'ubukorikori.

Uruvangitiranye rw'imboga ndetse n'ibindi byo kurya mu isoko bicuruzwa. Ibyo kurya bitera imbaraga ndetse n'ibyongera intungamubiri mu mubiri.

Ubwoko butandukanye bw'imboga umuntu ashobora kurya zikaba zamurinda uburwayi, ndetse zifite vitamini, zatuma umubiri w'umuntu ukomeza kubaho ukomeye.

Umuntu utanga ubufasha kubijyanye no kugura amafaranga yo guhamagaza kuri telefone ndetse akabika akanabikuza amafaranga yarari kuri konti y'umuntu ya telefoni

Inzu y'umuntu witwa tayo irimo amatara meza nayo yubakitse neza, isize amarange atuma iyonzu igaragara neza.

Ni inzu nziza iteye amarange kandi isakaye. Ifite umurasire w'izuba, ifite aho baparika imodoka. Ndetse n'ubusitani buyikikije bwongere ubwiza bw'urwo rugo.

Inzu nziza, ifite ubuso bugari, isize amarange Kandi ifite n'ubusitani bwiza, iraboneka ku mafaranga ibihumbi maganatandatu ifite ibyumba bine.

Inzu iherereye i Kigali mu murenge wa Gikondo ifite ibyumba bibiri na dushe imwe, ikodeshwa ibihumbi maganabiri na mirongo itanu ku kwezi isa neza kandi ikoreye amasuku.

Ibikoresho byiza byo mu nzu harimo intebe, ameza ndetse n'udutebe dutoya, urabona ko ari ibikoresho byiza cyane ushobora guhaha ukaba wajyana iwawe mu nzu bisa neza bigaragara neza cyane. Urabona ko ari ibintu biryoheye ijisho.

Inzu y'ubucuruzi bwibyokurya nibyo kunkwa, ndetse nibindi bikoresho byifashishwa mumasuku nimirimo yo murugo.

Uburyo bwo kwizigama no kwiteganyiriza ejo heza. Wabukoresha ukoresheje telefone cyangwa mudasobwa, ukizigamira muri ejo heza k'ubuzima bwiza.

Inzu y'ubucuruzi wasangamo ibiribwa ndetse n'ibyo kunywa. Urasangamo abaguzi baje gushaka bimwe muri ibyo bicuruzwa ndetse n'abacuruzi.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibyo kurya n'ibyifashishwa mu butetsi n'ibyo kunywa, abantu bashobora gufata kugira ngo bice inyota cyangwa inzara.